Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ingofero y'umukara mu mutwe, ahetse ipombo, akaba ari mu murima muremure cyane w'ubuhinzi bwe, akaba ari gutera umuti.

Icyuzi cyorerwamo amafi cyakozwe n'umuntu. Hakaba hari umugore wambaye ijipo y'igitenge n'agapira k'umukara. Akaba afite indobani mu ntoki ari kuroba amafi. Iburyo bwe n'ibumoso hakaba hahagaze abagabo babiri, umwe afite agafuka ari gutega ngo ashyiremo amafi.

Abagore batatu n'umugabo umwe bahetse ibitetse inyuma mu mugongo biziritse mu mutwe, bakaba bari gusarura icyayi, hakurya hahinze ishyamba hari n'imisozi miremire.

Ibishashi by'ibiro bibiri bifunzemo imiti baha amatungo.

Ibiti by'imbuto byingemwe za piniyeri aho bifasha abaturage mu kubona imbuto hafi no kurinda ubutaka bwabo kugenda.

Igipangu kirimo inzu nini, hakaba hateyemo ibiti bibiri kimwe cy'umwembe n'ikindi cya voka n'i isombe ku ruhande ni hagati mu mbuga.

Kugira ngo hirindwe isuri no kujyanwa ku butaka, kubera imvura zisabwa guca amaterasi y'indinganire mu masambu yacu. Hano hari imirima ikaseho amatarasi y'indinganire, ikaba ihanamye cyane.

Inkoko ziri mu kiraro cyazo zikaba ziri gutora hasi ibiryo baba bazishyiriye ahabugenewe, hagati yazo hatambitsemo igiti ari cyo kimanitseho aho bashyira ibiryo byazo.

Inka yafungiranywe mu kiraro, na veterineri uri kuyitera urushinge, hakaba hari undi mugabo umworozi wazo, uyifashe umurizo.

Inyoni zihagaze hasi, hakurya yazo hari amazi, ni inyoni zikunda kuba mu mapariki.